Umuceri urasa neza urasasiye harimo amazi harimo n'ifumbire nta nyoni zawuriye. Urebye mu Rwanda twateye imbere akazi karaboneka, iyo umuntu yahinze abakozi baraza, imisoro turayitanga, amashuri y'abana turayatanga neza no kwivuza kandi no mu rugo haboneka ibiryo bihagije nta nzara ikiboneka mu rugo iwacu.

Intoryi zirasa neza, zirasasiye. Hari ifumbire, imvura yaraguye. Umuhinzi abasha kwiteza imbere. Mu Rwanda twateye imbere. Iyo umuntu ahinze ajyana ku isoko akishyura minerivare, abantu bakabaho neza, umuryango akawufasha. Iterambere ribasha kuboneka umuntu agatanga umusoro. Biba byiza iyo umuntu abashije gukora. Nta bukene bukiri mu gihugu tubasha gukora ku mafaranga uko tubyifuza.